Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi hariho nimero za telefoni n'amazina y'icyo kigo hashushanyijeho inzu n'imodoka.

Inyandiko igaragaza ikigo gitanga ubwishingizi bukubiyemo ubw'inkongi y'umuriro igaragaza ko ugomba guteganya igihe inyubako yakwangizwa n'inkongi y'umuriro ukabagana ikaguha ubwishingizi, hariho nimero za telefoni abantu bashobora guhamagara.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda gishushanyijeho umusore n'umukobwa bicaye hariho na nimero za telefone abantu bashobora guhamagaraho.

Icyapa cy'amamaza ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda, kigaragaza uburyo bwo gukanda akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe urwego muri serivisi yitwa ibihe nk'ibi.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi handitseho ngo "Urumve Mworozi," ashushanyijeho inka, inkoko, ndetse n'ingurube. Hariho kandi na nimero za telefoni abantu bashobora guhamagaramo.

Icyapa gishushanyijeho umusaza, umukecuru ndetse n'umwana, cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi, bukubiyemo ubw'ubuzima, ubwo mu rugo, ibinyabiziga ndetse n'ibindi.

Icyapa kigaragaza ikigo cy'ubwishingizi, hariho abantu babiri, umusore uhagaze wambaye ikote na karuvati, n'ishati ijya gusa umweru, ari gusuhuza umukobwa wicayemo.

Icyapa cyamamaza ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda kigaragaza ko tugeze mu gihe cy'imvura nyinshi irimo imyuzure, ibiza, kwangiza inyubako ndetse n'ibindi bikorwa.

Urubuga rwa banki rufasha abantu kohereza amafaranga ku zindi banki, kugura amanite, kubitsa, kubikuza, kwishyura ibintu bitandukanye.

Urubuga rwa Banki rworohereza abakiriya kohereza amafaranga ku zindi konti, kubitsa kubikuza, kugura umuriro, amakarita yo guhamagara, kwishyura ibintu bitandukanye.

Ubutumwa buri muri telefone bugaragaza gukura amafaranga kuri konti yoherezwa kuri nimero ya telefoni ibihumbi mirongo ine.

Iduka ricuruza imyenda y'abagore, abakobwa ndetse n'iy'abagabo, inkweto z'abagore, ivazi iteretsemo indabo, amashakoshi amanitse hejuru.

Iduka ricuruza ibikapu by'abadamu hari ibifite ibara ry'umuhondo, icyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'umukara, idirishya rifunguye.

Akabati karimo imisego y'ubwoko butandukanye, ikozwe mu bitenge bifite amabara agiye anyuranye, hejuru kandi harimo inanasi.

Umusore w'umuzungu n'undi w'umwirabura, wambaye ishati na karuvati irimo amabara y'umutuku n'umukara, televiziyo iri imbere yabo, inyubako ziri ku ruhande zikorerwamo imirimo itandukanye.

Iduka ryubatswe mu buryo bugezweho ricuruza imyenda y'abagore n'iy'abakobwa ikubiyemo amakanzu, amajipo ndetse n'amashati, ivaze irimo ururabyo rusa icyatsi.

Umukobwa wambaye umupira w'umukara uri guseka, imbere ye hari akabati gateretseho impano zifunze mu buryo butandukanye inyuma hari imitako iri ku gikuta n'indi iteretse hejuru y'utubati.

Iduka ricuruza imyenda y'abagabo amashati, imipira, amapantaro, ingofero ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ipantaro yumukara, uri kumwe n'umuzungu wumugore, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa iri kwaka, ibikapu, amakayi ndetse n'imyenda iri hirya imanitse.

Iduka ricuruza imyenda ikorerwa mu Rwanda harimo imipira, amashati, amapantaro, hari agaseke n'udukombe biteretse hasi, umuryango ufunguye.

Umuzungu w'umugore, imbere ye hari umusore ufite telefone mu ntoki, ameza ariho mudasobwa, imyenda n'agakapu inyuma naho hari iyindi myambaro y'ubwoko butandukanye.

Imodoka ebyiri ziparitse ihema ris'umweru umunara muremure uriho insinga z'amashanyarazi ibiti n'amazu.

Icyapa cyamamaza uruganda rukora imodoka, inyubako, indabo, amapoto ari ku muhanda ariho insiga z'amashanyarazi, imodoka ebyiri ziparitse.

Imodoka nyinshi ziparitse harimo igurishwa yo mu bwoko bwa bibiri na cumi na gatandatu kiya niyo igurishwa miliyoni cumi na zirindwi z'amafaranga y'u Rwanda amatara yo ku muhanda inyubako.

Imodoka nyinshi ziri ahantu zigurishirizwa iri ku ruhande igaragara cyane irasa umweru hari igiti insinga z'amashanyarazi, inzu.

Abagabo babiri bahagaze bafite ikintu gikozwe nk'urufunguzo rw'imodoka mu ntoki, imodoka ibari iruhande, izindi ebyiri ziparitse inyuma, umunara muremure, amazu ari hakurya ndetse n'amashyamba.

Imodoka nshyashya umuryango urafunguye iracyariho amashashi ku ntebe ndetse n'aho bakoresha batwara.

Imodoka isa umweru, iruhande rwayo hagaze abagabo babiri, hari ufite igipapuro mu ntoki, inyuma hari icyapa, inzu, ibiti, amatara yo ku muhanda.

abasore babiri bakora muri banki umwe yambaye ikote ry'umukara n'saha ku kuboko undi yambaye ishati y'umweru, imbere hari ameza ariho mudasobwa n'imashini zifashishwa mu gusohora impapuro.

Abashinzwe umutekano babiri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'umukara, bafite igisanduku mu ntoki bakorera ikigo gicunga umutekano cyitwa isiko, imodoka iri imbere yabo ibatwara, amazu ndetse n'ibiti.

Umugabo wambaye ikoti n'ishati ufite ikaramu mu ntoki, uri kwandika, ameza ateretseho mudasobwa n'ibindi bikoresho, inyuma ye hari amadirishya.

Abagore babiri bicaye, buri wese imbere yateretse mudasobwa, igitabo ibyapa byometse ku kirahure, ndetse no ku bikuta.

Akabido k'amata gateretse ku meza, umusore uhagaze ku ruhande wambaye imyenda isa ubururu, undi muntu uhagaze mu muryango, ikigega gisa ubururu.

Iduka ricuruza amata y'inyange n'ibiyakomokaho, imodoka ya tagisi iparitse hanze, icyapa kimanitse kiriho urumuri, ivase irimo indabo.

Iduka ricuruza amata y'inyange, intebe, ameza ateretseho umupfundikizo w'indobo n'agakoresho gateretsemo impapuro zifashishwa mu guhanagura ibintu.

Akabati karimo ijerekani ebyiri z'umweru, icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye.

Abasore bari mu iduka bahagaze, umucuruzi ukoreramo wicaye ku ntebe ufite akabido mu ntoki ari gufungura icyuma kiyatanga, akayashyira mu ndobo.

Iduka ricuruza amata hari firigo, ameza, intebe isa umweru, n'iy'ubururu akantu bashyiramo amasahani, umugabo uhagaze.

Abakobwa babiri bari mu nyubako icuruza imiti umwe afite udukarito tubiri ,undi afite ikarito nini inyuma hari tubati turimo imiti y'ubwoko butandukanye.

Abasore batanu bafite ibirahure birimo amata y'ikivuguto, ameza ateretseho isahani iriho umugati inyuma yabo hari akabati karambitseho isahani.

Iduka ricuruza amata ya Mukamira, firigo ebyiri, ihagaze ndetse n'indi itambitse, umuryango uriho rido, ameza ateretseho agakarito, akabati karimo amaji y'ubwoko butandukanye umugore wambaye isaha k'ukuboko.

Iduka ricuruza amata; hari imashini iyatunganya, urusinga, umusore ufite igicuba uri gusuka amata mu kindi kintu.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye amata ndetse n'ibiyakomokaho, ji z'ubwoko butandukanye, amandazi, keke, imigati, harimo na furigo.

Iduka ricuruza amata y'inyange hari intebe, akabati gateretsemo amacupa manini n'amato y'amazi icyuma yifashishwa mu gutunganya amata, umugore wicaye ufite terefone mu ntoki ze hari ameza atetseho igikombe kirimo icyayi.

Inyandiko igaragaza uburyo bukoreshwa n'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda, itanga ubufasha ku bakiriya bayo batandukanye, aho ukanda akanyenyeri, kane, gatatu, gatandatu, urwego, ukabona serivisi ukeneye.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa mu kwishyura, kugura, kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye ukoresheje telefoni ndetse na mudasobwa.

Inyandiko buzuza iri ku rubuga rukoreshwa mu kohereza no kubikuza amafaranga mu bihugu bitandukanye, aho ushyiramo igihugu amazina na nimero ya telefoni.

Ikiganza cy'umuntu ufite telefone mu ntoki, kwerekana uburyo ushobora kwaka inguzanyo ukoresheje telefone, kwishyura, kubitsa ndetse no kohereza amafaranga.

Abasore babiri bunamye umwe yambaye agapira k'umukara, undi yambaye usa umweru. Hari ameza ateretseho impapuro, amakaramu, telefone, mudasobwa n'ibindi bikoresho, ku ruhande hari ivaze ziteretsemo indabo.

Urubuga rukoreshwa mu kugura amayinite, kohereza amafaranga, kwishyura ibicuruzwa bitandukanye, kubitsa no kubikuza hakoreshejwe telefoni.

Ikiganza cy'umuntu ufite telefoni mu ntoki; igaragaza uburyo bwo kohereza, kwishyura, kugura amayinite hakoreshejwe ikoranabuhanga.

Urubuga rukoreshwa hifashishijwe telefone mu kwishyura amafaranga, kugura ibintu bitandukanye harimo ama inite kohereza, ndetse no kubikuza.

Icyapa cyamamaza urubuga rukoreshwa mu kugura ibintu bitandukanye kohereza amafaranga, kwishyura ibintu, mukugura amayinite, umuriro, amazi n'ibindi bintu.

Inyandiko igaragaza uko ibintu biba byakozwe, amatariki ndetse n'ibyakozwe bikubiyemo kwishyura ibintu bitandukanye ndetse no kohereza amafaranga.

Icyapa cyanditseho banki nkuru y'u Rwanda kigaragaza uko ibiciro byo kugura no kugurisha amadolari, amayero, amapawundi, amashiriningi yo muri Kenya n'ayo muri Uganda bihagaze.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki akoreshwa mu buhinde, ni amarupi igihumbi ndetse na magana atanu, agiye kuyavunjisha.

Umugabo ufite amafaranga mu ntoki amadorari atanu, icumi ndetse n'andi, ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Gana.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku ufite amafaranga mu ntoki, ameza ateretseho ikarita iranga amatariki, umuti w'amenyo, terefone.

Inoti esheshatu zirambitse hasi. Ni Amayero atanu hari icumi, makumyabiri, mirongo itanu ijana ndetse na magana abiri.

Ibiganza by'umuntu ufite amafaranga mu ntoki akoreshwa mu mahanga, inoti eshanu z'ijana n'izindi ebyiri za magana atanu.

Ibiganza bibiri by'abantu bari guhererekanya amarupi ni amafaranga akoreshwa mu gihugu cy' Buhinde, umwe yambaye agakomo ku kaboko.

Ikiganza cy'umugore ufite amafaranga akoreshwa mu mahanga amadolari ijana. hari n'andi ateretse ku meza harimo inoti z'amadolari magana abiri, akamashini gakoreshwa mu kubara amafaranga, akabati gateretseho impapuro n'utundi dukoresho.

Iki ni igikoresho kifashishwa mu kuzimya umuriro igihe uteye mu buryo butunguranye gifite amabara y'umutuku impande zose, ndetse n'umunwa w'umukara, nawe nakugira inama yo kukigura ukagitunga iwawe.

Ibiro bitanga ubufasha mu kuvunjisha amafaranga byitwa dahapushiri hahagazemo umugabo imbere ye hari ikirahure hicayeyemo umuntu ushinzwe gutanga izo serivisi.

Inyubako ikoreramo dahabushiri, ibiro bitanga ubufasha, kuvunjisha amafaranga yo mu bihugu bitandukanye ndetse no kuyohereza.

Inyubako ikorerwamo ibintu bitandukanye nko kuvunjisha amafaranga yo mu bindi bihugu, icyapa byamamaza, umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'ikote ry'umukara uri kwinjira.

Umuryango ufunguye hariho ibyapa hatangirwamo serivisi zo kugurisha no kuvunjisha amafaranga, hegeranye n'iduka ricuruza imyenda y'abagore.

Inyubako ikoreramo ibiro bitanga ubufasha mu kuvunjisha amafaranga, hari icyapa, televiziyo, hirya ku ruhande hari abantu bicaye ni umuzungu w'umugore n'umusore.

Akapa kari mu ibara ry'ubururu kagaragaza imirimo ikorerwa mu nyubako ihari, irimo gusukura imyenda n'ibiro byitwa ubwiyunge bitanga serivisi zo kuvunjisha amafaranga, inyuma hari ibiti, mu muhanda abantu bari gutambuka n'amazu.

Ibiro mpuzamahanga bitanga ubufasha mu kuvunjisha amafaranga harimo umugore wicaye wambaye agapfukamunwa, imbere ku meza hariho mudasobwa n'uducupa tubamo umuti usukura mu ntoki.

Inzu itangirwamo serivisi zo kugurisha no kuvunjisha amafaranga, ifite imiryango ikozwe mu birahure hometseho ibyapa bigaragaza serivisi zitangirwamo zikubiyemo no kohereza amafaranga mu bihugu bitandukanye.

Intebe irimo imisego itatu, ameza, televiziyo, isaha imanitse ku gikuta, amafoto ndetse n'imitako.

Inyubako icuruza ibikoresho byo mu nzu intebe, ibitanda, utubati tugezweho, hari uburiri buri ku gitanda butetseho imisego ndetse n'ibindi bintu.

Iduka rifunguye ricuruza ibikoresho byo mu nzu, matora, intebe zikoze mu buryo butandukanye, ameza, utubati, tujyamo inkweto n'utwo bashyiramo ibindi bintu, intebe za purasitike zigerekeranye.

Ameza ateretseho amavase abiri agiye arimo indabo intebe zigiye ziri kuri buri ruhande utubati igare ndetse n'ibindi bikoresho.

Inyubako icuruza ibikoresho byo mu nzu, irimo utubati ,ameza manini ,n'amato ,intebe, imitako ndetse n'ibindi bikoresho bibajwe mu biti.

Intebe enye zibajwe mu biti, zifite imisego, ameza, hari n'andi ari ku ruhande, ndetse n'utubati tubiri.

Inyubako icuruza ibikoresho byo mu nzu, harimo intebe ifite imisego, ziri mu ibara ry'ubururu, indi ikozwe mu giti y'umwanya umwe.

Inyubako itanga amacumbi yo kubamo, ahantu abantu bakarabira intoki. Hateretseho amasume, amasabune, n'amavuta yo gukaraba mu ntoki. Umuryango urafunguye, irido, hanze hari izindi nzu.

Inyubako igeretse itanga amacumbi indabo z'ubwoko butandukanye iziri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi inzugi zisize irangi ry'umweru.

Inyubako ndende imiryango irafunguye, ameza ariho ibitambaro by'umweru, ibiti, indabo z'ubwoko butandukanye, imodoka iri kugenda mu muhanda.

Intebe zikozwe mu buryo butandukanye hari izifite ibara rya shokola, izindi zirimo imisego ameza ateretseho igitabo imitako, ivaze irimo ururabyo.

Ameza, intebe eshanu zirimo imisego ndetse n'izindi zicarwaho n'umuntu umwe, inyubako ziri hakurya zubatswe mu buryo butandukanye amashyamba amatara yo ku muhanda.

Abantu babiri bahagaze umuzungu n'umugabo wambaye agapira k'umweru n'amadarubindi, umuryango ufunguye ameza ariho agacupa k'amazi n'impapuro.

Inyubako ndende cyane ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi gikorera mu Rwanda hari kandi n'indi miryango ikorerwamo ibintu bitandukanye mu muryango hari abagore babiri hepfo hari indabyo.

inyubako ndende ifite ibirahuri byijimye hakorerwamo ibintu bitandukanye iduka ricuruza imyenda ishami ryiikigo gitanga ubwishingizi hakorera kandi noteri wigenga

Umusore ukora akazi ko kwakira abantu mu kigo gitanga ubwishingizi wambaye amadarubindi, ari gukoresha mudasobwa tereviziyo n'icyapa.

Ishami ry'ikigo cy'ubwishingizi rikorera i Remera inyubako ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi imbere harimo abantu, ibiti, icyapa kimanitse hejuru ku nzu.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro n'ikote bisa umukara n'ishati y'umweru ameza ateretseho mudasobwa n'urupapuro, intebe n'ibyapa biri ku muryango.

Icyapa kigaragaza ishami rya banki yitwa umutanguha ryafunguye irindi shami mu murenge wa Kicukiro rikorera mu nyubako ndende.

Icyapa cyamamaza ishami rya banki ritanga inguzanyo nta ngwate ndetse no kugura imigabane, ashushanyijeho umugore uri guseka wambaye amaherena n'umupira usa n'ivu.

Icyapa cyamamaza banki ya Kigali hashushanyijeho umugabo uri guseka uzamuye ukuboko yafunze igipfunsi, afite urupapuro mu ntoki imbere ye hateretse mudasobwa n'igikombe cyo kunyweramo.

Isoko harimo abagabo ndetse n'abagore hasi harunze imyumbati ,ibijumba, amateke ,moto ziparitse ku ruhande ndetse n'imodoka .

Isoko ricuruza ibitenge by'abagore bifite amabara atandukanye, hari ibisa icyatsi, ubururu, umutuku, ndetse nib'ifite amabara y'icyatsi. Umusore wambaye ishati uhagaze imbere ye hari abantu babiri.

Abantu bari mu isoko, biganjemo abagabo n'abagore; ibitoki, amateke, ibirayi, karoti, amashu, imboga amaronji n'imineke.

Iduka ricuruza imitako yo mu nzu, udukomo bambara ku maboko no mu ijosi, ibyibo, uduseke ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abantu bari mu isoko biganjemo abagore, hari abahagaze n'abandi bicaye, imyenda y'abana ndetse n'iy'abantu bakuru, imifuka.

Isoko ricuruza ibyo kurya by'ubwoko butandukanye bikubiyemo amashaza, ibishyimbo, imboga, inyanya, intoryi, ibitunguru, puwalo, karoti, ibibiringanya ndetse n'ibindi bintu.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, imyenda y'abagore ndetse n'iy'abakobwa, umugore uhagaze ufashe mu mufuka n'undi muntu uri ku ruhande, intebe y'umweru.

Isoko ricuruza ibiribwa byiganjemo imbuto z'ubwoko butandukanye, imineke, ibinyomoro, amatunda, pome, inanasi, amapapayi, amaroji.

Isoko ricuruza ibyo kurya by'ubwoko butandukanye amashu, inyanya, karoti, ibibiriganya, avuka, amaronji, imiteja ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Abagore babiri bahetse abana, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye ishati y'umweru, abana b'abahungu bahagaze, abagabo, igitebo kirimo inyanya, amabase, ndetse n'ibindi bicuruzwa biri mu isoko.

Isoko ricuruza ibitenge by'abagore, amashakoshi, amaherena, imitako, imipira ndetse n'ibindi bintu bikozwe mu masaro.

Abakecuru babiri n'umugore umwe wambaye agatambaro mu mutwe bicaye mu isoko, imbere yabo bafite ibase irimo ibintu bacuruza, ku ruhande inyuma hari akana kahicaye.

Abantu bari mu isoko hari umugore umwe uhagaze n'abandi bari ku ruhande, imyenda irunze ahantu, umugore ufite indobo, inyubako, umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, umunara muremure.

Isoko ricuruza ibiribwa by'ubwoko butandukanye, bikubiyemo inyanya, amashu, imiteja, puwavuro, korojete, imyungu, amavuta, amakaroni ndetse n'ibirungo, hicayemo umugore uhakorera.

Inyubako ndende zikorerwamo imirimo y'ubucuruzi, hariho ibyapa byamamaza imodoka ziparitse abantu benshi bari kugenda biganjemo abagabo n'abagore, amatara yo ku muhanda abamotari.

Umugore uhagaze wambaye igitambaro mu mutwe, ameza ateretseho utubase duto n'indi nini, n'isahani iteretseho ibirayi, umugore uhetse umwana abandi bantu bari inyuma.

Umugore wicaye mu isoko yambaye agatambaro k'umukara n'umweru mu mutwe, iruhande rwe hari inyanya, imyembe, amapapayi, inyungu, ubunyobwa buri mu mashashi, ibibiriganya pavuro ndetse n'imineke.

Umusore n'abakobwa babiri bahagaze iruhande rw'akazu kariri mu ibara ry'umuhondo gatangirwamo serivisi zo kohereza no kubikuza amafaranga hifashishijwe telefoni, harimo umukozi w'umugabo ndetse n'umugore, iruhande rwako kandi hari umutaka n'ibiti n'imodoka.

Icyapa cy'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda kiri mu ibara ry'umuhondo, hariho amazina y'umucuruzi na nimero ya kode ikoreshwa n'abakiriya mu kwishyura amafaranga.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo gatangirwamo ubufasha bwo kohereza, kubitsa no kubikuza amafaranga kuri terefone, harimo umusore ukoreramo yambaye agapfukamunwa kuru rundi ruhande hari umugabo wambaye ingofero y'umukara.

Abantu benshi bahagaze, umusore wambaye ishati y'umweru, ufite ikaye nini mu ntoki, umutaka uri mu ibara ry'umuhondo, inzu yubakishijwe amatafari ahiye.

Abasore babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo, ni abakozi bakorera ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa bari gukoresha, hari kandi umusore bari gufasha wambaye umupira w'umweru, uhetse agakapu k'umukara mu mugongo.

Ikiganza cy'umuntu ufite telefone mu ntoki, uri kwishyura amafaranga akoresheje mu momo peyi ku izina ry'umuntu witwa Nkurunziza, inyuma hari akabati gateretsemo amakarito ndetse n'ibindi bintu.

Inyubako ikoreramo ishami ry'ikigo cy'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda harimo abakiriya umugabo n'abagore babiri, ndetse n'abakozi bakoreramo bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umweru n'umuhondo mudasobwa ziteretse ku meza n'ibyapa.

Inzu iri mu ibara ry'umuhondo y'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu rwanda, iri gutanga ubufasha ku bakiriya mu kohereza, kubitsa, no kubikuza amafaranga, hari indangururamajwi hanze, umuntu ushinzwe umutekano, umusore uhagaze, ku ruhande hari amaduka.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w'umuhondo ni umukozi w'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda inyuma ye hari umukobwa n'umusore bakorana iruhande rwe hahagaze umusore ufite telefone mu ntoki na ambarage.

Umuntu ufite telefone mu ntoki uri kureba ku gakarita k'ishami ry'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, ari kugakoresha yohereza amafaranga. Amakaziye arimo inzoga ibikarito biri mu kabati.

Abasore bahagaze mu ihema risa umuhondo, riri gutangirwamo ubufasha bw'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, basobanurirwa uburyo bwo kohereza, kubitsa amafaranga, hakoreshejwe terephone.

Akazu gato kari mu ibara ry'umuhondo, k'ikigo cy'umuyoboro mugari w'itumanaho mu Rwanda, gatangirwamo ubufasha bwo kubitsa no kubikuza amafaranga kuri telefone, umuntu uri kugenda mu muhanda, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi, umuryango ufunguye.

Urubuga rukoreshwa mu gutumiza ibiribwa bitandukanye, hariho nimero za telefone, amazina n'imbuga bakoresha.

icyapa kiriho abantu cyamamaza urubuga rwitwa "JUMIA" rukoreshwa mu kugura amatike yo kwitabira ibitaramo.

Urubuga rwitwa inshyo fudu rukoreshwa mu gutumiza ibiribwa n'ibinyobwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, ruriho umugabo n'umwana, ameza ateretseho avoka, agacupa karimo yahurute, n'agasahani gateretsemo imboga.

Icyapa kiriho urubuga rw'ikoranabuhanga rukoreshwa mu gutumiza ibiryo, hashushanyijeho inyama z'inkoko, umugati urimo inyama, urunyanya n'imboga kandi hari agakarito karimo ifiriti, hari ikiganza cyambaye ga cy'umusore wambaye amarineti.

Urubuga rukoreshwa mu kugura ibintu bitandukanye harimo amashakoshi y'abagore inkweto z'abagabo n'iz'abana ndetse n'abagore ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'imyenda.

Urubuga rwitwa Alibaba, ukoresha utumizaho ibintu bitandukanye birimo imyenda y'abagore, ndetse n'abakobwa, inkweto, ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi bintu.

Urubuga rwitwa birasa, rufasha abantu kubona gaze, amazi, hifashishijwe ikoranabuhanga, hariho nimero za terefone

Abamotari batandukanye, hejuru bambaye umwenda uri mu ibara ry'umutuku wanditseho yego moto, imodoka iri mu ubwoko bwa toyota, iri kugenda mu muhanda, inyubako, ibiti, amatara yo kumuhanda.

Urubuga rukoreshwa mu kugurisha no kugura ibintu bitandukanye, ushyiramo ibicuruzwa uguze niba byinjiye cyangwa bisohotse ndetse n'igihugu bigiyemo.

Urubuga rwitwa tuma maganabiri mirongo itanu rukoreshwa mu kugura ibintu bitandukanye harimo imbuto, imboga ndetse n'ibindi bintu byo kurya.

Abamotari bane baparitse moto, bambaye imipira isa umutuku, kuri moto zabo hariho ibisanduku byanditseho rash food, byifashishwa mu kugeza ibiryo ku bakiriya baba babitumije, ibiti bituriye umuhanda.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Umuzungu wambaye ishati isa umweru umugore uhagaze, ameza intebe, z'ubwoko butandukanye, ifoto iri ku gikuta, akabati gateretseho imitako n'indabo.

Inzu iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kabeza, ifite ubwiherero bugezweho, ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi.

Umuzungu uhagaze, wambaye ipantaro n'ishati y'umweru yazinze, imbere ye hari umugore uri gutambuka, itara riteretse ku ruhande, amafoto ari ku gikuta, imitako, intebe, ndetse n'ibindi bintu.

Inzu irimo utubati dufashe ku gikuta namakaro iherereye mu mujyi wa kigali igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u rwanda .

Inzu yubatswe neza ifite, ubwiherero bugezweho, iherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, igurishwa miliyoni ijana na mirongo itatu, z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu yubatswe mu buryo bugezweho ifite amakaro iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kacyiru igurishwa amadorari igihumbi magana atanu.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali muri Gisozi hafi ya Kagugu igurishwa miliyoni maganatatu mirongo itanu z'amafaranga y' u Rwanda.

Inzu ifite ibikoresho byose byo mu nzu igitanda, uburiri, supanete, iherereye mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amadolari magana inani ku kwezi.

Inyubako yo mu mujyi wa Kigali igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda, icyumba cyo kuravamo kinini, umuryango ufunguye, hari amarido afunze neza ku idirishya.

Inyubako yo guturamo yubatswe mu buryo bugezweho iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kabeza ituriye umuhanda, igurishwa miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako yo guturamo igurishwa amadorari igihumbi magana atatu mirongo itanu, ihererye mu mujyi wa Kigali muri Kibagabaga, ifite ibikoresho byose byo mu nzu igitanda, utubati duteretseho amatara.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite ibikoresho mu nzu, iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kanombe, igurishwa miliyoni ijana na cumi n'eshanu z'amafaranga y' u Rwanda.

Aya n'ameza ari mu nzu, bigaragara ko aya meza ari ayokuriho arimo n'intebe nazo zibaje mu biti ariko aho bicarira hariho imisego.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho umuryango urafunguye ifite amakaro mu nzu, hepfo haparitse imodoka, irakodeshwa ifite ibyumba bibiri, ubwiherero bumwe, iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kibagabaga.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kimironko, ifite ibyumba bibiri n'ubwiherero bubiri, ku mafaranga ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi, ifite ibikuta bisize irangi, hanze ubusitani buteyemo indabyo.

Inyubako ndende yo kubamo iherereye mu mujyi wa kigali muri gacuriro ikodeshwa amadolari ibihumbi bitatu ku kwezi ifite ibyumba bitanu n'ibiro byo gukoreramo.

Inyubako ndende yo guturamo ikodeshwa iherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali imodoka zitandukanye ziparitse umukobwa uri kugenda, indabyo, ibiti.

Inzu igurishwa yubatswe mu buryo bugezweho, hanze hari imbuga nini iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kanombe, ifite ibyumba bine n'ubwiherero butatu.

Inzu ikodeshwa iherereye mu mujyi wa Kigali muri Kanombe ifite ibyumba bine ubwiherero butatu harimo insina z'ibitoki ibiti.

Inzu itarasozwa kubakwa yubakishijwe amatafari manini ndetse n'andi ahiye, hejuru y'amabati hari umugabo, ifite ibyumba bibiri, hari umusore wambaye umupira w'umutuku uri gutambuka.

Inyubako ndende yo guturamo iherereye Cyimihurura ikodeshwa amadolari magana arindwi, hanze hari igiti ifite ubusitani hateyemo indabo.

Iduka rinini, hari abagore bicaye n'abandi bagabo bari ku ruhande ahaticaye abantu, ibyapa, ku ruhande hari abantu bari kugenda.

Umugabo w'umuzungu uri mu iduka, afite akantu bashyiramo ibyo baba baguze, akabati karimo inzoga z'amoko atandukanye, udushashi tumanitse, intebe iri ku ruhande.

Iduka ricuruza ibiribwa n'ibinyobwa bitandukanye birimo inzoga, amaji, amazi, imiti y'isuku ndetse n'ibindi ,abantu bahagaze harimo umukobwa n'abasore imbere hicayemo umugore n'undi umusore bakoreramo.

Abantu bari mu isoko, umugore wifashe mu mayunguyungu, imbere ye hahagaze umugabo w'umuzungu, inyuma yaho hari abandi bantu, hari imyenda y'ubwoko butandukanye amashakoshi y'abagore n'inkweto z'abagabo.

Abantu benshi bicaye biganjemo abagore abandi bagabo bicaye kuruhande imbere yabo hari umugore uri kubaha impapuro kuri buri wese, ipoto iriho insinga z'amashanyarazi insina z'ibitoki amazu indabyo.

Umugore wambaye akitero karimo amabara y'umuhondo n'icyatsi, yambaye agapfukamunwa, afite ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mu ntoki ze.

Abagore babiri bicaye bambaye udupfukamunwa umwe ari gukoresha mudasobwa afite n'impapuro mu ntoki ze, hari ameza ateretseho ibintu bitandukanye, imbere yaho hari umugore uhahagaze ku ruhande hari abandi bantu benshi bicaye.

Umusore wambaye agapfukamunwa n'ishati irimo uturongo tw'umweru n'umukara ,afite amafaranga bamuhaye miliyoni imwe n'ibihumbi magana abiri mirongo itanu, iruhande rwe hahagaze undi muntu wambaye ishati y'umukara ufite mikoro mu ntoki, inyuma hari imodoka ziparitse mu ubusitani bw'indabyo.

Abantu batatu barimo umugore umwe wambaye igitambaro cy'umutuku mumutwe bafite mituweri mu ntoki ni ikarita ikoreshwa mu kwivuza.

Ibiganza by'umuntu ufite ikaramu mu ntoki n'amakarita ari mu ibara ry'umuhondo y'ubwisungane mu kwivuza ari kwandikaho imyirondoro y'abarwayi.

Icyapa kiriho mudasobwa icanye irimo inyandiko igaragaza ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda hari kandi ibiganza by'umuntu uri gukoresha iyo mudasobwa.

Amaboko y'umuntu afite ibipapuro yashyizeho amafoto y'abantu batandukanye, ameza ateretseho telefone, ikaramu n'andi mafoto, agacupa k'amazi, ndetse n'agakoresho yifashisha mu gufatanya impapuro.

Inyandiko igaragaraho inyubako ndende ifite amadirishya ndetse n'imiryango bikozwe mu birarahure, ikoreramo ikigo gitanga ubwishingizi mu Rwanda hanze iruhande rw'imiryango hari indabyo n'ibiti.

Abantu bicaye ndetse n'abandi bahagaze biganjemo abagabo n'abagore hari abari kuzuza mu bitabo, ameza ateretseho igikapu n'amakarita ya mituweli akoreshwa mu kwivuza.

Umugore wicaye, yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari umuntu wunamye, intebe isa umweru, ameza ariho ibitabo, terefone ndetse n'ibindi bintu.

inzu isize irangi ry'ubururu ku gikuta handitseho gira ubuzima. hashushanyijeho umugabo, umugore ndetse n’abana, intebe yicayeho umuntu abagore bambaye udupfukamunwa.

Ikiganza cy'umukobwa ufite icupa rya mayoneze mu ntoki iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye amafu y'ibikoma amasukari umunyu saladine ndetse n'ibindi bintu.

Abantu batatu bari mw’ iduka abasore babiri n’ umukobwa umwe ucururizamo ufite ishashi irimo ibyo abakiriya baguze, ameza ateretseho uducupa twamazi, mudasobwa nibindi bicuruzwa.

Inyubako ikoreramo iduka ryitwa simba ishami rya banki abantu bari kugenda mu muhanda ushinzwe umutekano umu motari ibiti.

Abantu bari mu iduka, hari umukobwa uri imbere wambaye agapira k'umweru, afite agakoresho kabugenewe ko gushyiramo ibiribwa, hateretsemo amacupa abiri y'amavuta, inyuma ye hagaze abakobwa n'abahungu bari gufotora, ku ruhande mu tubati hateretsemo ibintu bitandukanye, amajyane, amasukari, amafu n'ibindi.

Iduka ricuruza imyambaro y'ubwoko butandukanye, inyuma hari igikoresho bifashisha mu kwamamaza imyenda kugirango igurwe, hari umusore ufite ivarisi ndetse n'igishashi kirimo ibyo kwiyorosa, inyuma hagaze abandi basore.